Ubworozi bw'amafi aho bakoze ibyuzi, byuzi bakabyororeramo amafi, ku nkengero z'ibi byuzi hakaba hateye ibyatsi ndetse hari n'ibiti.

Abaturage b'abahinzi bakaba barimo barasarura imyaka, bakaba wahinze igihingwa cy'umuceri mu gishanga.

Abaturage b'abahinzi bakaba barahinze ikawa, bakaba barimo baratoranya ikawa y'ibihuhwe mu ikawa basaruye mu mirima yabo.

Ibyo kurya bitandukanye hakaba ibyo kurya bigizwe amakaroni ari mu mashashi. Hakaba amagi ndetse n'amata, bikaba birunze mu cyumba kimwe.

Abaturage b'abahinzi bakaba barimo barahinga mu gishanga, aho bari guhinga igihingwa cy'umuceri, bakaba hahinga abandi bakaba barimo baratera.

Uburyo bwo kuhira imyaka bugezweho, aho bifashisha imashini isunika amazi ikayakura mu gishanga ikazamura aho imyaka iri, ikaba iba icometseho udutiyo twinshi tuzamura amazi mu myaka.

Imisozi, ibibaya ndetse n'ibiyaga, hagatiti mu kiyaga hakaba harimo ibirwa, naho imisozi ikaba iriho ibiti ndetse n'ibyatsi.

Ubworozi bwa kijyambere, aho burorera amatungo ahantu hamwe aha bakaba baroroye inka bakazororera ahantu hamwe mu nzu.

Ubworozi bw'amatungo aho borora amatungo bayororeye ahantu hamwe, bakaba boroye inka mu kiraro kinini cyane, aho bagaburira inka bakaziha n'amazi.

Ubworozi aho bororera inka zororewe ku gasozi zikaba zirisha ku musozi mu gisambu akaba ari naho ho ziba.

Ubworozi bugezwe bw'inkoko aho bu burorera inkoko ahantu hamwe, ukaziheraramo icyo kurya ndetse n'icyo kunywa kugira ngo zitange umusaruro ukeneye.

Ubworozi aho bororera amatungo ahantu hamwe, aha bakaba baragiye inka, inka zikaba ziri kurisha mu gisambu kirimo ibyatsi ndetse n'ibiti.